Imifuka myinshi irimo ibara ry'umweru, ni imifuka ipanzwe ahantu hagari cyane, aho tuzi nko muri bayahawuzi cyangwa se mu bubiko. Ni imifuka myinshi irimo iyi miti yifashishwa mu buhinzi, iyo mifuka iri ahantu ibitse ku buryo hatagira icyayangiza kandi bakayirinda ubukonje.

Igihingwa kikiri gitoya gisa nk'aho ari urugemwe. Gishyirwa mu murima. Hakaba hari ikiganza cy'umuntu gifite ifumbire, akaba ari kuyishyira kuri urwo rugemwe kugira ngo rubone intungagihingwa zihagije kibashe gukura neza, kizatange umusaruro uhagije.

Imifuka irimo ifumbire . Ni imifuka y'umweru iri munsi y'igiti kinini cyane, kandi ikaba ari imifuka igaragaza ibiro buri mufuka ushobora kujyamo . Ni imifuka iteretse ku mbaho bifasha kurinda ifumbire riri muri iyi mifuka kuba yakinjirwamo n'ubukonje.

Imashini yifashishwa mu buhinzi. Iyi ni imashini ikoranye ubuhanga, ikaba iri kwifashishwa mu gutera imiti. Iyi mashini ifite amabara y'icyatsi kibisi, ikaba yicayemo umuntu wambaye agapfukamunwa, ndetse yambaye n'umupira w'umweru. Iyi miti iri guterwa kugira ngo barwanye ibyonnyi mu bihingwa bahinze.

Ibicupa binini cyane bifunze bigaragarako bitari byafungurwa, ni ibicupa biri mu mabara y'umweru bikaba biriho ibirango bigaragaza ko aha mo imbere harimo imiti ikoreshwa mu buhinzi . Aya ni amacupa afunze neza cyane bigaragara ko atari yafungurwa.

Indege izwi nka kajugujugu yanditseho polisi. Ni indege iri ahantu ku kibuga bigaragara ko iri guhaguruka cyangwa se igiye kuhagwa. Indege iri mu mabara y'umweru ndetse muri iyo ndege hicayemo umuntu. Ariko mu bigaragara bwatangiye kwira kuko amatara yo ku kibuga cy'indege yacanwe.

Amafi abiri ni amafi bigaragara ko akiva mu mazi, amafi ataruma neza ni amafi yarobwe mu kiyaga cyangwa se mu mugezi, kandi akaba ari amafi yiteguye kujyanwa ku isoko ngo abaguzi bazayagure, kandi akaba ari amafi azwiho kuba aryoha. Ni amafi agira intungamubiri nyinshi cyane, kandi zikaba ari intungamubiri z'ingirakamaro ku buzima bw'umuntu.

Amafi atatu amafi bigaragara ko akiva mu mazi, ariko bayasutseho umunyu, kugira ngo bayu kuyashyiraho umunyu bibafasha kuba yabikwa igihe kirekire, bikayarinda kwangirika bikazafasha ba nyiri amafi kuyageza ku isoko akiri mazima atarangirika, ku buryo abaguzi bazayishimira.

Abagabo bane. Nj abagabo bari mu mazi magari ndetse impande yabo hakaba hari ubwato bukozwe mu mbaho. Muri ubwo bwato harimo shitingi y'umweru, ndetse n'ibase ifite ibara rya move. Ni abagabo bahagaze ku kintu kimeze nk'umutego bifashisha bari gutega amafi , iyo bita imitego ya kaningiri ,ni bagabo bigaragara ko bari gutegura umutego.

Abantu bagiye batandukanye, harimo abagore, abana, bafite imitego yifashishwa mu kuroba amafi, mu mitego bakuye mu mazi, kandi umutego urimo amafi bigaragara ko bavuye kuroba, hakaba hari n'abana bari kureba ayo mafi amaze kurobwa, bari hejuru y'icyuzi kiremano bororeramo amafi.

Ifi nziza cyane bigaragara ko yamaze gutekwa, n'ifi iteretse iri ku isahani itetse ku meza, iyo meza iriho igitambaro ndetse hakaba hari n'indi sahani bigaragara ko iriho imboga mbisi, iy'ifi itetse neza kandi bikaba bigaragara ko yateguranywe ubuhanga.

Ubwato bwifashishwa mu kuroba amafi. Ni ubwato buri mu mazi magari cyane. Burimo abantu batwaye ubwo bwato. Abo bantu bari muri ayo mato, tubazi nk'abasare. Abantu nibo baroba amafi aba ari muri aya mazi magari.

Igiti cy'umuvumu cyakuriye ahantu, ariko kitarakura cyane. Kikaba cyarakuriyeho ibindi byatsi birandaranda cyane. Ni igiti kiri ahantu hasa nk'aho hari akayira kanyurwamo n'abantu benshi cyane, hakaba hari n'umurima bisa nk'aho usaruye vuba batarongera guhinga.

Ibiti birebire by'inturusu. Muri ibi biti harimo inka ziri kurisha. Imbere y'ibi biti na ho hari ibyumba by'amashuri. Hakaba hari n'inzira bigaragara ko ijya kuri iki kigo cy'amashuri, ndetse muri iyo nzira hari gucamo umuntu bigaraga ko ari kugana ku kigo cy'ishuri.

Umurima uhinzemo ibirayi. Ni umurima mwiza cyane, kandi bigaragara ko ibirayi bimaze gukura byanabagawe, ikirindiriwe ari ukubisarura bimaze kwera. Uyu murima kandi bigaragara ko urimo insina, insina zizwiho kwera ibitoki biribwa.

Umurima munini cyane uhinzemo ibirayi, ibirayi bigaragara ko byakuze biri hafi kwera, mu umurima ukikijwe n'ibiti birebire bifite amabara y'icyatsi kibisi, kandi bigaragara ko aha uyu muri muri hirya yaho hari amazu atuwe n'abantu. Ibi birarayi biragaragara ko bizatanga umusaruro mwinshi cyane.

Umurima utangiye guhingwa, ni umurima uri guhingwamo mu buryo bw'imitabo, ni umurima kandi igice kimwe cyawo cyatangiye guhingwa ,ariko ikindi gice ntabwo kiratangira guhingwa, bigaragara ko basaruyemo ibigori, hafi y'uwo murima hari ishyamba, ariko ritarimo ibiti byinshi rikikije uwo murima.

Imbuto zizwi nka avoka, zikaba zikiri mu giti ariko zikaba zikiri ibitumbwe. Bivuga ko izi avoka zitaragera igihe cyo kwera ngo zisarurwe, abantu bazitare batangire kuzirya. Ziri mu giti kigaragara ko gitoshye, kandi na zo zikaba zimeze neza, ku buryo zizera na zo zimeze neza.

Abantu bari kugenda mu kayira gato cyane kari hagati y'imirima ihinzemo ibintu bigiye bitandukanye, ni abantu bikoreye udufuka ndetse hakaba harimo n'umwe wikoreye igitoki, bigaragara ko bavuye mu murima. Umurima bari gucaho uhinzemo ibishyimbo, bikaba ari bwo bikimera bikiva mu butaka, bitari byagera n'igihe cyo kubagarwa.

Umugore uri mu murima uhinzemo ibirayi, ni umugore wirabura, akaba ari mu murima ufite isuka ,bigaragara ko ari kubagara ibyo birayi ,ni umurima uri ahantu usa nkaho harambuye ,ariko ahandi ho hari umurima udahinzemo ikintu.

Umugabo wirabura, wambaye umupira w'umukara, ufite isuka ku rutugu. Akaba ari no kuvugira kuri telefone. Ni umugabo uri mu murima wi'ibigori. Kandi ibigori bisa nkaho bikuze ndetse biri hafi kwera. Ni umugabo bigaragara ko avuye mu murima, kandi akaba ari kuvugana n'umuntu. Inkuru ye ikaba imushimishije.

Ibitoki byinshi cyane kandi ibitoki bizwi nk'ibitoki by'inyamunyu. Ni ibitoki biribwa ni ibitoki byasaruwe bigaragara ko byeze kandi byiteguye kuribwa, akaba ari ibitoki biryoha kandi bikunze kwera ahantu hashyuha cyane ndetse ni ibitoki bigira intungamubiri nyinshi.

Umurima w'umurambi munini cyane, ni umurima uhinzemo ibirayi ku murongo, hagati muri iyo mirima harimo imirwanyasuri, imirwanyasuri bayiciyemo kugira ngo bafate amazi ashobora gutera isuri. Ni ibirayi bisa nk'aho bikiri kumera bitarakura cyane ku buryo bigeze igihe cyo gusarurwa, harimo n'igiti kirekire kiri hagati mu murima.

Ibigori bikuze bisa nk'aho ari bwo biri guheka. Ni ibigori biri ahantu mu murima, ariko ni ibigori bisa nk'aho byakuranye n'igihuru, bitigeze bibagarwa. Ni ibigori bigaragara ko bitazatanga umusaruro mwinshi cyane umuhinzi yari yiteze.

Igiti c' ipera kikaba kirimo amapera ane, ni amapera manini bigaragara ko yeze, umuntu yayarya; amapera ariho amazi ari gutonyanga, bigaragara ko imvura imaze kuyagwaho.

Imboga zizwi nk'intoryi, ibibiringanya, ibitunguru ziri ahantu abacuruzi baba bazishyize, ku buryo baba bari buzigurisha ku bakiriya babo, bigaragara ko ziri mu isoko, kandi iryo soko impande yaryo hari ikigega gifata amazi.

Abantu benshi cyane, bari mu murima munini urimo ibigori, ibigori biracyari bito kandi bigaragara ko bimeze neza, bizatanga umusaruro mwinshi cyane, ni abantu biganjemo abagabo ndetse n'abagore bari kugenda, bagenzura ibigori bigiye bitandukanye, bareba ko nta byonyi byabyibasiye cyangwa se byaba bifite indwara runaka bishobora kwangiza umusaruro.

Abantu benshi cyane bari mu murima uhinzemo umuceri. Ni umuceri bigaragara ko utarera, umuceri mwiza utoshye cyane. Umwe muri bo yambaye ingofero y'urugara, afite ibitabo bisa nk'aho hari umuntu bari kubwiriza, bari kumuha inyigisho z'Iyobokamana.

Ahantu hahinzwe ibigori byiza cyane byatangiye guheka. Ni ibigori bishishe bigaragara ko bizatanga umusaruro, hagati muri iyo mirima harimo akayira kari kunyurwamo n'abagore babiri, muri abo bagore babiri harimo umwe uhetse umwana, hakaba n'undi uri kumutambukaho basa nkaho bari kubisikana muri ako kayira.

Avoka yasatuwemo ibice bibiri, igice kimwe nta kibuto kirimo, ikindi gice kirimo ikibuto. Ni avoka zirambitse ku meza, Avoka ikaba iri mu ibara, ifite igishishwa cy'umukara, ndetse n'imbere hayo harasa umuhondo. Iruhande rw'iyo avoka hari urunyanya narwo rukase, ruri inyuma y'avoka, narwo rurambitse ku meza.

Umuma mwiza wirabura, witeze igitambaro, wambaye umupira w'umweru. Ni umumama uri mu murima, ugaragara nk'aho uhinzwemo ibishyimbo bitari byera, gusa ibi bishyimbo, ni ibishyimbo bishingirirwa, ari kubigenzura, ngo arebe ko nta byonnyi byajemo.

Abaturage benshi bitabiriye umuganda rusange, ni umuganda wabereye mu murima, umurima witeguye gushyirwamo imbuto zo gutera, ni umurima bari gushyiramo ifumbire cyangwa se ishwagara, ifumbire bayishyiramo kugira ngo bazamure umusaruro, ishwagara bayishyiramo kugira ngo bagabanye ubusharire bw'umurima.

Abaturage benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore bari mu murima uhinzemo amasaka atarera. Ni umurima ugaragara nk'aho urimo umugabo uri kwigisha abantu bamugaragiye ibijyanye no guhinga mu yambaye umupira w'umweru wanditsemo famu tu maketi.

Abantu bari mu murima w'ibirayi, ni umuririma urimo ibirayi bigaragara ko bigeze igihe bitangiye kwera ariko bitageze igihe cyo kuba byasarurwa. Ni ibirayi bari kubagara bifashishije amasuka harimo abagore ndetse n'umugabo umwe. Impande y'umurima hari undi murima uhinzemo ibishyimbo bishingiriye bigaragara ko nabyo bitari byera ariko biri hafi kwera.

Imyembe myinshi kandi myiza cyane, bigaragara ko yeze, yahishije, ariko muri iyi myembe harimo n'indi igifite ibara ry'icyatsi kibisi, bigaragara ko itarashya neza. Iyi ni imyembe izwi nk'immyembe ya kinyarwanda, ikaba ari imyembe iryoha cyane. Kandi ikaba itanga intungamubiri zihagije ku biribwa, ku bantu.

Amateke azwi nka bwayisi atatu ni amateke aryoha cyane bigaragara ko yatetswe kandi ahiye, rimwe muri ayo mateke bakase bagaragaza nk'imbere hayo uburyo aba hameze. Aya mateke akunda guhingwa mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane hafi y'ibishanga, ahantu haba amazi menshi.

Isoko ry'ibiribwa, ni isoko rinini cyane bari gucururizamo ibiribwa bigiye bitandukanye, inyanya, wotameroni, puwavuro, mayoneze, amavuta yo guteka, ibitunguru ndetse n'ibindi bintu byifashishwa nk'ibirungo bari guteka, ni isoko ryubatse mu buryo butwikiriye ku buryo abarimo imbere ba batanyagirwa.

Imboga zizwi nk'intoryi ni imboga zirundanyije cyane kandi bigaragara ko zasaruwe, bigaragara ko kandi ziri ku isoko cyangwa se ziteguye kuba zaribwa, ni imboga zizwiho kuba ziryoha kandi zikaba ziribwa n'Abanyarwanda benshi, bagiye batandukanye b'ingeri nyinshi cyane.

Umugore uri mu murima uhinzemo imyumbati ni umurima bigaragara ko uteyemo imyumbati myinshi cyane, mu muririma ariko ukaba ukikijwe n'ishyamba ridakuze. Ni umugore wakuye imyumbati uriho imyumbati bigaragara ko yeze bagiye kuyitunganya bakayibyaza ibindi bintu nk'amafu cyangwa se bakayarya umugore bigaragaza ko ari umusirimu.

Imbuto zizwi nk'imyembe. Imyembe bigaragara ko yeze yahiye neza, kandi ikaba ari imyembe izwi nk'imyembe ya kinyarwanda. Ni imyembe iryoha cyane, kandi ikaba ari imyembe izwiho kugira intungamubiri zitandukanye, ziba ari ingirakamaro ku mubiri w'umuntu.

Imifuka ibiri, ipakiyemo ibintu. Hakaba harimo umufuka umwe wuzuye, hakaba harimo n'umufuka urimo ibintu bike. Ibintu birimo imbere ntibiri kugaragara neza ku buryo wabasha kumenya ibyaribyo. Hafi aho ngaho hari n'igare, bigaragara ko ibyo bintu bigiye gutwarwa kw' igare. Hakaba hari n'undi muntu uri kugaragara igice cy'ikirenge kimwe wambaye ibitenge.

Umugabo uri mu murima uhinzemo ibigori. Nyuma y’uyu murima hari ishyamba ry’ibiti by’inturusu. Uyu mugabo, nubwo ari mu murima uhinzemo ibigori, afite igihaza cyangwa se idegede. Ni igihaza gisa nkaho cyahinzwe muri uwo murima w’ibigori, kandi igihaza gisa nkaho gikuze, cyeze, cyiteguye kuribwa.

Amateke azwi nka mabwayisi ni amateke azwi mu muco nyarwanda, ko ari indyo gakondo ni amateke akunda guhingwa ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu ariko cyane cyane mu bice bikunda ubukonje ni amateke aryoha cyane kandi akaba akunzwe cyane n'Abanyarwanda b'ingeri zigiye zitandukanye.

Puwavuro iri mu ibara ry'umuhondo, iri ku giti kiriho izindi puwavuro z'icyatsi kibisi, izindi puwavuro zizwi nka puwavuro z'amabara atandukanye, izi puwavuro zikunze gukoreshwa muri salade. Iyi ngiyi yatangiye kuba umuhondo bigaragara ko yagejeje igihe cyo kwera, izikiri icyatsi kibisi ziracyari hasi y'iyi ngiyi bigaragara ko zitaragera igihe cyo.....

Ibishyimbo by'imiteja birambitse ku gikoresho gikozwe mu mbaho. Bikaba birimo ibishyimbo biri mu mabara atandukanye. Bimwe bifite ibara ry'icyatsi kibisi, ibindi bifite ibara rijya gusa n'umuhondo, ibindi bikaba bifite ibara rijya gusa na move. Ni ibishyimbo bitaruma byasaruwe bikiri bibisi, bigaragara ko bishobora kuba bigiye kuribwa bitaruma.

Umurima uhinzemo urubingo rwinshi cyane gusa ni urubingo rutoshye cyane uru rubingo rukaba ari ibyatsi byifashishwa mu kugaburira amatungo agiye atandukanye nk'ihene, inka ndetse n'andi matungo arya ibyatsi. Ni umurima bigaragara ko bahinzwemo urubingo rwinshi cyane kandi bakaba bararwitayeho neza.

Umurima munini cyane uhinzemo amasaka. Ni amasaka bigaragara ko yeze cyane kandi akaba yatanga umusaruro mwinshi. Ni amasaka kandi bigaragara ko ageze igihe cyo gusarurwa kuberako yamaze guhindura ibara, yamaze kuba umutuku bigaragara ko agiye gusarurwa.

Ibigori byinshi cyane , ibigori bigaragara ko byasaruwe , bikaba biri mu bwanikiro. Ni ibigori byiza cyane , kandi bigaragara ko aho byavuye byatanze umusaruro mwinshi cyane. Ibi bigori nibimara kuma, bizahurwa cyangwa se bihungurwe , nibirangiza bijyanwe ku isoko.

Amahundo y'amasaka atatu. Ni amasaka yeze, afite ibara ry'umutuku, bigaragara ko yaciwe kandi yanitswe, biteguye kuyahura ngo bazayakoreshe ibindi. Ni amasaka avamo ibintu bitandukanye, bayakoresha basyamo ifu y'igikoma, amamera yo gukora ubushera, ndetse n'ibigage.

Ubwanikiro bw'imyaka bwubakishijwe ibiti n'amabati y'ubururu azengurutse ubwo bwanikiro ,ibiti bishinze ku buryo butandukanyijwe ku buryo bwemerera izuba n'umuyaga kwinjiramo imbere mu nzu ibyo byo bikazafasha imyaka irimo imbere kubona izuba n'umuyaga biyifasha kuma neza.

Ibishyimbo biri mu gaseke. Ibi bishyimbo biri mu ibara ry'umukara. Agaseke karambitse ku kirago. Ni ibishyimbo bikunze guhingwa ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu. Ni ibishyimbo kandi bigaragara ko nyir'ibishyimbo afite ahantu agiye kubijyana hihariye.

Inzu yanikirwamo umusaruro w'ibigori ,ahazwi nko ku bwahinkiro, ni inzu yubakishije ibyuma ndetse ikaba iriho n'amabati y'umutuku, kuri iyi nzu hariho abagabo babiri, umwe afashe mu mifuka, undi afashe ku byuma bishinze aho ngaho ku bwanikiro.

Ibishyimbo biri mu ibara ry'umweru, ibishyimbo biri mu gaseke kari ku kirago gifite amabara y'umukara, ni ibishyimbo byuzuye ako gaseke, bigaragara ko hari umuntu nyiri ibi ibishyimbo agiye gutura, cyangwa se afite ahantu agiye kubijyana hihariye.

Imifuka myinshi ipanze ku buryo bwiza cyane kandi ikaba itwikiriwe n'imifuka, bisa nkaho irimo ibintu byo kuribwa cyangwa se umusaruro w'ubuhinzi, ni imifuka iri imbere ahantu hari inzu yubakishijwe amabati, kandi akaba ari inzu isakaje nabwo amabati.

Abantu benshi cyane biganjemo abantu bambaye ibisarubeti by'icyatsi kibisi, hakaba harimo n'umugore wambaye ipantaro, n'umupira w'umukara. Ni abantu bari imbere y'ibiraro, bigaragara ko baje gusura amatungo ari muri ibyo biraro. Muri abo bantu harimo umwe ufite ikayi ya rojisitere atwariye inyuma mu mugo we. Hari n'undi ufite icupa mu mufuka w'ayo masarubeti.

Itungo rigufi rizwi nk'ingurube ni itungo rikunze kororwa mu ngo z'abantu bagiye batandukanye, rikaba cyangwa se ryakororerwa mu mafamu, kandi ni itungo ritanga umusaruro mu gihe gito, iyi ngurube ni nini cyane bigaragara ko iri mu kiraro cyubakishije imbaho kandi ikiraro gisukuye cyane.

Ubworozi bw'inkoko bukorerwa muri iyi nzu, harimo inkoko nyinshi cyane, hakaba harimo n'umuntu w'igitsina gore bigaragara ko ari kuziha ibyo kurya, ni inkoko zizwiho gutera amagi menshi, ndetse zigatanga n'umusaruro mwinshi mu gihe gitoya, bikaba bifasha mu kugabanya imirire ndetse n'igwingira ry'abana.

Inka yashyizwe ahantu hafunganye cyane. Ni ahantu bakunda kuzikingirira cyangwa se kuziterera umuti. Aho hantu hari abantu batatu. Umwe n'umugore abandi ni abagabo. Abo bantu bambaye ibisarubeti ndetse na bote. Ibyo bisarubeti biri mw'ibara ry'ubururu.

Inka nyinshi cyane zizwi nk'inka z'inyambo. Ni inka zizwi mu muco w'abanyarwanda akaba ari inka zizwi ko zabaga inka zifite amahembe maremare cyane. Kandi zikaba ziri ahantu hari ubwatsi butoshye, kandi bikaba bigaragara ko ari mu ifamu.

Inka nyinshi ziri mu mabara y'ikijuju, hakaba harimo n'izindi zifite amabara. Ni inka ziri ahantu hagari, hanini cyane, hari ubwatsi butoshye. Izi nka ziri kurihisha bigaragara ko bazahuye. Zikaba ziri kurisha ahantu heza cyane hari ubwatsi buzibereye.

Ikiraro cy'inka cyubakishijwe ibiti, kikaba gishashemo isasiro ry'ibyatsi bitaruma neza, hakaba harimo abagabo babiri, abagabo babiri umwe afashe inyana undi ari gutera urushinge iyo nyana, uyu muntu uri gutera urushinge tumuzi nka veterineri cyangwa se umuvuzi w'amatungo.

Ingurube iryamye isa nk'aho yahengetse urubavu rumwe. Ni ingurube ibwaguye vuba, ibibwana byayo biri konka. Ni ngurube isa nk'aho ari nini cyane, ibibwana byayo biruka biri mu mabara atandukanye yumweru n'umukara.

Ibibwana by'ingurube bimaze gukura biri mu kiraro cyubakishijwe imbaho, ni ibibwana byose bifite amabara amwe bikaba biriri ahantu hashashije ibyatsi, kigifite ibara ry'icyatsi kibisi inyuma y'aho hari ikindi kiraro kirimo ingurube isa nk'aho ikuze cyane harimo n'ikijerekani iririramo bisa, nk'aho izi ngurube z'ubwana zatandukanijwe na nyina.

Inyoni nini nziza cyane iri mu mabara y'umweru, ndetse n'ibara ry'umukara ariko iryo bara ry'umweru, nta bwo rikeye cyane. Ni inyoni ifite ijosi rirerire, ndetse n'umunwa muremure. Ni inyoni ikunze kuba ahantu hakonja cyane, cyangwa se hari amazi menshi cyane, kuko zikunze kurya ibibonekamo amazi nk'iminyorogoto.

Inyoni y'umukara ifite isunzu ry'umutuku, ni inyoni ifite umunwa muremure usongoye ni inyoni ifite n'umurizo muremure uri kugenda ukururuka ku giti, ni inyoni bisa nk'aho ihagaze ku giti kiriho ibintu by'icyatsi kibisi bisa nk'aho ari ibyatsi byameze kuri icyo giti.

Inyoni izwi ku izina ry'igihunyi, ni inyoni igira amaso manini kandi areba cyane. Kandi ayo maso ikaba ishobora kuyahindukiza ikayarebesha mu byerekezo byose, ku muzenguruko wa dogere magana atatu mirongo itandatu. Ni inyoni izwi kuba mu biti binini, ariko abantu benshi barayitinya kuko ishobora kuba ikungura.

Inyamaswa izwi nk'imbwebwe ni inyamaswa iba mu ishyamba ariko na none ikaba izwi nk'imbwa y'ishyamba. Inyamaswa igaragara ko iri mu byatsi byinshi cyangwa se umukenke wakoze irahasannye iri kugaragaza imikaka yayo.

Inyamaswa yitwa isha cyangwa se ihene y'ishyamba inyamaswa izwiho kuba mu ishyamba ikaba irya ibyatsi. Iri mu byatsi by'icyatsi kibisi bitoshye ikaba ifite amabara y'ikijuju n'umweru ikaba iri kurereba hejuru.

Inyamaswa y'umukara, inyamaswa iri mu ishyamba. Iyi nyamaswa izwi nk'ingurube y'ishyamba. Ni inyamaswa ijya kumera na none nk'ingurube abantu basanzwe barora mu rugo. Iyi ni inyamaswa mu ishyamba irya ibyatsi, ariko ikaba iba mu mwobo iba yaracukuye aho ngaho mu ishyamba.

Inyoni nziza cyane, ihagaze mu byatsi by'icyatsi kibisi, ni inyoni ifite akarizo karekare, ikaba iri mu mabara y'umukara n'umweru, iyi nyoni ihagaze mu buryo wagira ngo akaguru kayo kamwe karavunitse. Ni inyoni nziza cyane, igaragara neza cyane.

Inyamaswa izwi nk'akanyamasyo. Inyamaswa izwiho kuba igenda gake cyane ,ikaba ariko izwiho kuba ifite ikintu igendana ku mugongo bita igikono biyifasha kuba yakirinda ikintu cyaba kije kuyigirira nabi . Iri ahantu mu bwatsi butoshye cyane, ndetse ikaba iri kumwe n'utwana twayo twinshi cyane bigaragara ko tukiri dutoya.

Inyoni izwi nk'ikiyongoyongo ikaba ari inyoni iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ikaba ari inyoni izwiho kugira amaguru maremare, ijosi rirerire, ndetse n'umunwa muremure. Ni inyoni ikunze kuba ahantu hakonje cyane nko mu bishanga ndetse n'ahandi hantu hari amazi menshi. Iyi nyamaswa impamvu ikunda kuba mu bishanga ni uko itungwa n'ibiba muri ayo mazi nk'iminyorogoto.

Inyoni iri mu mabara y'umukara, n'inyoni iri mu mazi ahantu hameze n'ibyatsi byinshi cyane, ni inyoni ifite umunwa muremure cyane usongoye, umunwa w'iyi nyoni ukaba uyifasha gushakisha ibyirya mu mazi, kugirango ibone ibiyitunga .

Inyamaswa izwi nk'inzovu. Inyamaswa iba ari nini cyane kandi ikaba igira n'amahembe yifashishwa mu gukora imitako igiye itandukanye. Inyamaswa iri ahantu mu ishyamba, bigaragara ko ibihuru byaho bitoshye. Kandi iyi nzovu iri kumwe n'akana kayo biri kugendana.

Inzoka nini cyane ifite amabara y'umukara ikaba ifite n'akarimi kayo yasohoye hanze, ni inzoka ndende cyane yizingazinze. izi nzoka zikunze kuba mu mashyamba kandi ni inzoka z'ubumara bwinshi cyane ku buryo iramutse ikuriye ishobora kuguteza ibibazo bikomeye.